Abanyeshuri bakiri batoya ubona ko barimo gukina, bamwe bambaye impuzankano, abandi nta mpuzankano bambaye, bigaragare ko mwarimu yababwiye ko hari ibyo bagomba gukora, bakaba bari gukina buri wese ubona yashimye cyane ashishikajwe n'ibyo...

Abanyeshuri bari kumwe n'abarezi babo bari kubakoresha imyitozo ngororamubiri ubonako bifashe mu mutwe bambaye impuzankano yiganjemo umuhondo ndetse abarezi babo b'abamama ubonako bashishikajwe n'akazi bakora.

Abanyeshuri bari gukora isuku, kuko bagaragara ko bari mu murima w'imboga, bashobora kuba bari kurandura izicyuye igihe, kugira bateremo indi mishyashya, amashuri ari hirya yabo, afite amabati y'ubururu, ndetse n'imiryango n'amadirisha by'ubururu, abanyeshuri barishimye, bari kumwe n'umurezi wabo.

Abanyeshuri bicaye ku mukeka, bari kumwe n'umurezi wabo, bari kunywa ikinyobwa cy'amata, aho bakuyemo inkweto bakazishyira hirya gato, hirya gato harimo intebe ziteye mu cyumba gisa neza, ubona ko giteye irangi, kikaba kirimo n'urumuri ruhagije.

Abana bakiri batoya bari kumwe n'abarezi babo umugore ndetse n'umugabo ubona ko bari kubagira inama ku bintu bitandukanye kugira ngo igihe bashakebukirwa bazakura neza urabona ko buri wese atuje kuko harimo n'uri guseka yicaye ku mukeka ibiri itandukanyije amabara.

Abantu bakiri batoya bagiye ku ishuri ariko hageze igihe cyo kujya gufata ifunguro, aho bari kunywa igikoma. buri wese yafashe agakombe karimo igikoma ari kunywa kugirango ngo babashe kujya mu masomo yabo neza bumva mu nda bameze neza kubera banyweye igikoma.

Abanyeshuri bafite ibitabo barimo gusoma, bakiri abana batoya, bishoboke ko biga mu mashuri abanza icyiciro cyo hasi cyangwa se mu mashuri y'incuke. Afite intebe nziza cyane zishobora kubikwamo ibikoresho byabo, sima imeze neza ndetse n'icyumba gifite urumuri ruhagije.

Abana bagiye ku ishuri kuko bigaragazwa n'impuzankano bambaye, bambaye inkweto za bodaboda bakandagiye ku butaka, hirya yaho gato hari urutoki ndetse bigaragara ko bari kuganira kuko ubona ko bari kuvuga, biteguye kujya ku masomo kugira ngo bazabashe gutera imbere mu gihe kiri imbere.

Ikigo cy'amashuri aho abanyeshuri bari hanze, bashobora kuba bari gukina, amashuri yubakishijwe n'amategura, abanyeshuri bambaye impunzankano ndetse hariho n'indabo bigaraga ko ikigo cyatunganijwe neza, abanyeshuri bafite uburyo bwinshi bwo kwiga.

Abanyeshuri bari ku ishuri bigaragara ko igihe cyo kwiga bisa naho bari mu karuhuko ndetse hari n'undi muntu ugaragara nk'umwarimu cyangwa se umukozi wabo kuko atambaye impuzankano, bigaragara ko bari kuganira ku ngingo zitandukanye ndetse bari no gukina yishimye cyane.

Ikigo cy'amashuri kigaragaza ko hari uruzitiro rw'ibyuma, ndetse imbere hari ibyatsi bigufi, ndetse hari n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda n'amashuri iruhande, bigaragara ko ari ikigo abanyeshuri bigiraho, ariko imbere yaho hariho umuhanda w'igitaka numuntu uri ku igare.

Abanyeshuri biga amashuri abanza bari gusobanurarina ibyanditse mu gitabo, ubona ko bakurikiye yiganje mu matsinda atandukanye, bicaye ku ntebe, bambaye impuzankano, bamwe bambaye kaki, abandi bambaye imyenda y'ubururu cyane cyane abakobwa, bigaragara ko bari kunguka ubumenyi buhagije.

Ishuri ririmo intebe abanyeshuri bicaraho, ndetse harimo n'umunyeshuri ndetse n'ikibaho cyanditseho ibintu runaka, harimo urumuri rutari rwinshi, ishuri riteye irangi ry'umuhondo ndetse harimo na sima, ubona ko ari ahantu heza ho kwiyungurira ubumenyi.

Inzu bigiramo ifite imigezi igera kuri esheshatu, abanyeshuri bashobora gufataho amazi yaba ayo gukoramo isuku mu byumba imbere, cyangwa se bashaka kuyanywa, igihe yaba ari meza, ni inzu ifite inzugi z'ubururu ndetse isakaje amabati ubona ko ari nziza.

Abana bari mu itsinda aho barigusobanurirana kuko bamwe bafashe igitabo abandi, undi asa n'uryamye bigaragara ko hari ibintu arikwibuka ashobora kuba yibagiwe. Abakobwa n'abahungu bose bambaye impuzangano bari ahantu heza cyane ho gukurikira ibyo urikwiga.

Ikigo cy'amashuri aho hagaragara ubwiherero bw'imiryango itandatu ndetse n'imbuga y'ibitaka isanzwe, hirya gato hari ishuri rifite amabati y'ubururu ndetse n'inzugi z'ubururu, hirya gato handi hariho urutoki ndetse hakaba hariho n'ibivoka inyuma bigaragara ko ari ahantu heza.

Ikigo cy'amashuri kigaragara nkaho amabati ashaje cyubakijwe amatafari ndetse hariho n'umukandara uteye irange rijya gusa n'umuhondo, hariho n'ikigega kijyamo amazi avuye ku ibati bigaragara ko ayo mazi abanyeshuri bayifashisha mu mirimo itandukanye.

Abanyeshuri bakiri batoya, bigaragara ko nta mwarimu urimo ,kuko buri wese ari mu bye, bamwe bari gukina hejuru y'intebe, abandi bari kuganira ,bari gukora ibintu bitandukanye.

Abana bari ku ishuri bambaye impuzankano, abakobwa n'abahungu, aho bari mukanya ko gukina kuko ubona ko batari mu mashuri mo imbere, kugira babashe gukora imyitozo ngororamubiri, basubire mu ishuri bameze neza.

Haragaragara abanyeshuri bakiri batoya, harimo babiri bambaye impuzankano, n'abandi babiri bari hirya batari kugaragara, n'akandi kana gato gafashe igikapu gikozwe mu gitenge, n'undi mwana wikoreye ibase irimo ibintu bitandukanye, undi yitwikiriye umupira, bigaragara ko izuba ryari ryinshi, kugira ngo ritamugeraho.

Isomero ry'abanyeshuri kuko hariho ibitabo bitandukanye, aho bimwe biri ku meza ibindi biri mu tubati, bigaragara ko ari aho bakura cyangwa basomera kugira ngo abanyeshuri babashe gutera imbere mu burezi buhamye.

Abanyeshuri biga amashuri abanza bigaragara ko bari gukina bari kumwe n'abarezi babo imikino itandukanye, hariho abakobwa batatu bafatanye ku rutugu, hariho n'abandi bibereye mu byabo, ubona ko ari ikigo cyiza cyane, hariho n'inzu y'amategura, ndetse n'izindi nzu zishakajwe amabati y'ubururu.

Abanyeshuri bari mu ishuri, aho bigaragara ko hari undi munyeshuri mukuru wabo uri kubaganiriza, aho bari gushyira intoki hejuru kugira ngo babashe gusubiza ibibazo abaza, ku ngingo zitandukanye.

Abanyeshuri ubona ko bari mu isuzuma, kuko buri wese yihugiyeho, bari kwandika. Ubona ko hariho n'abari gutekereza bitandukanye, ubona ko mbese bize neza kugira ngo babashe gutsinda.

Abanyeshuri hari ahantu runaka hashakajwe na shitingi bigaragara ko hari ibiganiro runaka bitabiriye, kuko udupira bambaye turabagaragaza, bicaye ku ntebe nziza z'umweru, ku ruhande hariho amazi y'uruganda rw'Inyange bashobora kuba bari kunywa igihe bagize inyota bakurikiye ibiganiro runaka.

Ububiko bw'intebe abanyeshuri bakoresha, kuko hari hamwe bicara na hamwe babika ibikoresho bitandukanye birimo amakayi, mudasobwa ku bazifite, biri ahantu hari sima y'umukara bigaragara ko idasa neza, intebe zimwe zirahagaze izindi bigaragare ko zataratunganywa neza.

Abanyeshuri bari mu nzu mberabyombi, bambaye impuzankano, bari gukurikira umumama ndetse na padiri, kugira ngo bumve ibyerekeye iyobokamana, ndetse n'izindi mpuguro bashobora kwifashisha mu buzima busanzwe, urabona ko batuje, buri wese agira ngo agire icyo afata.

Abanyeshuri bari ahantu hari mudasobwa, bigaragare ko bari kureba ibiri kuva kuri mashini bikiyerekana mu mashusho. Barakurikiye, bambaye impuzankano, bari ahantu hatari urumuri rwinshi kugira ngo babashe kureba neza. Hari amadirishya, hatari parafo, ndetse hameze neza cyane.

Mu kigo cy'amashuri hariho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'irindi darapo riri mu ibara ry'umweru ritagaragara neza, hari inzogera ifasha abanyeshuri, iyo bagiye kwinjira mu ishuri, kurya cyangwa se gusohoka. Hari umwarimu wambaye impuzakano y'umweru, bigaragara ko agiye kwigisha. Hariho hasi hameze neza, haratunganijwe, aho bagendera kugira ngo badahura n'ibyondo.

Ubanyeshuri bambaye impuzankano umubare mwinshi, begereye ikibuga bigaragara ko gikinirwamo umupira w'amaboko, gifite ibara ry'ubururu, abanyeshuri benshi biganjemo abambaye hejuru umweru n'abandi bambaye hejuru ubururu, ndetse hasi bambaye ibara rya kaki.

Ikigo cy'amashuri gikikijwe n'ibiti bitandukanye bituma abanyeshuri bakigamo babona umuyaga bakabasha kubaho neza. Ku ruhande hari agahanda kagizwe n'amabuye kagiye muri iki kigo. Aha inyuma hariho pasiparumu aho umuntu ashobora kugenda akicara ndetse akabasha gufata akayaga.

Isomero ririmo ibitabo byinshi cyane bitandukanye biri mu tubatiri bipanze neza, hariho umunyeshuri uri kwihugumura yandika ndetse anasoma, bigaragare ko iruhande rwe hariho undi utagaragara neza, wambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara, hasi hariho amakaro bigaragare ko hameze neza cyane.

Abanyeshuri bakurikiye umurezi, ubona ko batuje bambaye impuzankano, ndetse mbere yaho hariho ishusho igaragara ishobora kubafasha mu mfashanyigisho, ndetse n'ibyanditse ku kibaho na byo bashobora kunguka, kugira ngo bunguke byinshi. Hari abambaye imipira y'imbeho, hari n'abatayambaye bambaye amashati y'umweru gusa, ndetse n'indi myenda.

Iri shuri ririmo abanyeshuri bambaye impuzankano, ubona ko bari mu mukoro, aho bigaragara ko bari gusobanurirana bafite amakaye ndetse hariho n'ikibaho bashobora kuba bandikaho igihe bari kwiga.

Ishuri ririmo amadirishya ndetse riteye n'umucanga ririmo na sima hasi , hari intebe bigaragarako abanyeshuri bagomba kwicaraho ndetse n'amakaye cyangwa se ibikoresho byabo, hariho n'umwanya w'aho bashobora kubibika.

Ubwinjiriro bw'ikigo cy'amashuru cy'urwunge rw'amashuri rwa Butare, aho kiri mu mabara atandukanye, ubururu, umuhondo, ndetse n'umweru, ahandi hari amabuye akoze neza, hariho ishusho y'umuntu ugaragara nk'intore, kuko afite agaseke ari no guhamiriza.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zitandukanye, ndetse imbere y'aho hubakiye, hariho abandi baturage, bigaragara ko abanyeshuri bari kuvuga ibintu bitandukanye, bari kwerekana, aba bandi bakabakurikira ngo barebe ko ibyo bitoje bari kubikora neza.

Ishuri kuko hari igishushanyo mbonera ku kibaho, ndetse hakaba hari n'ibindi bibazo bigomba gukorwa, imbere hari ibitabo byo gusomeramo, bigaragaza ko hari n'umwarimu uri imbere y'abanyeshuri nubwo batagaragara.

Icyapa kigaragaza urwunge rw'amashuri rwa Rega bigaragare ko gishingiye ku idini ry'abarokore ryitwa ADEPR hariho icyerekezo cy'ishuri hakabaho icyo ishuri rigamije ndetse n'imyitwarire ishobora kuranga ikigo harimo ubukristo, urukundo n'ibindi.

Abanyeshuri b'igitsina gore bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru bigaragara ko biga ibijyanye n'amasiyansi, kuko bamwe bari gupima abandi bakitegereza bakoresheje imiti ndetse n'ibindi bintu bijyanye n'ubwo bumenyi butandukanye.

Ikigo cy'amashuri kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano ndetse n'abandi bagaragara nk'abarimu kuko batambaye impuzankano, hariho idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda ndetse bigaragaza ko bari nko mu karuhuko bashaka gukina kuko batari kwinjira mu ishuri.

Icyapa cy'ikigo cy'amashuri kiriho ikiciro rusange ndetse n'ikiciro cya kabiri; hariho amashami atandukanye harimo ibyo biga biga ubugenge ndetse computer, ubukungu, ubumenyi bw'Isi ndetse n'andi mashami. Abanyeshuri bava...

Ikigo gikorerwamo inama zijyanye no kwiga, ndetse hariho ushinzwe umutekano ushinzwe abinjira n'abasohoka muri iki kigo, umuhanda ukijyamo ugizwe n'amabuye, ndetse hari n'amagambo yanditseho amazina y'iki kigo.

Umunyeshuri bigaragara ko ari kumwe n'umurezi mu isomero amusobanurira ibyanditse mu gitabo kugira ngo abashe gutera imbere mu byo yiga mu buzima busanzwe, harimo ibitabo byinshi bitandukanye ku buryo agiye gusoma atabura icyo asoma kugira ngo amenye.

Abanyeshuri bafite mudasobwa ndetse, n'ikaye n'ikaramu bari kwandika, bigaragare ko bari kwiga ku ngingo zitandukanye, urabona ko hari umwe ukurikiye, bigaragare ko nubwo imbere umuntu uri kuvuga atagaragara, ariko hari uri kubabwira amagambo meza bakaba bayakurikiye.

Ikigo cy'amashuri kiriho umurezi uri gutembera muri icyo iryo shuri, hariho inyuma urusengero rigaragazwa n'umusaraba, hariho inyubako kuko hagaragara ingorofani, hariho n'imbuga y'amabuye imeze neza, bigaragara ko ari ikigo giteye imbere.

Icyapa kigaragaza ko iryo shuri rihegereye rifite icyiciro, rusange, ndetse n'icyiciro cya kabiri, cy'amashuri yisumbuye. Aho abiga biga ibirimo ubuvuzi, imibare, ubugenge, ndetse n'ibindi bitandukanye, bishobora kubafasha mu iterambere ry'uburezi.

Ikibuga cy'amashuri aho abakinnyi bari gukina umukino w'amaboko, umukinnyi umwe yazamutse hejuru bigaragare ko agiye gutera umupira, naho abandi bo barategereje. Hirya gato hari ishitingi igaragaza ko abantu bari kugerwaho n'izuba bari kujya kugama izuba n'abandi bahanze amaso umukino.

Icyapa cy'ikigo cy'amashuri yisumbuye cya Kristu Roi giherereye i Nyanza, haragaragara amarembo yinjira muri iki kigo, aho imodoka zishobora guca ndetse n'abantu bagendesha n'amaguru bashaka kwinjira muri iki kigo.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bagiye gusura inzu ndangamurage, aho bateze amatwi uri kubasobanurira, bigaragare ko hariho n'abarezi babo babagaragiye, kugira ngo babashe kugera ahantu hose hashoboka, kandi babone ubumenyi bw'ibanze.

Abanyeshuri bagiye ku ishuri bari kugendera mu muhanda w'amabuye, hariho imirima ndetse n'ibiti birebire bigaragara ko hatuwe kuko hariho ibipangu ndetse n'ipoto y'amashanyarazi bigaragarare ko aka gace gafite iterambere ryiza.

Ikibaho cyanditseho ibintu byo mu mabara atandukanye y'umweru ndetse n'icyatsi ndetse n'agapapuro kamanitse hejuru bigaragaza ko byose ari imfashanyigisho zishobora gufasha umunyeshuri kugirango ngo abashe gutera imbere bigaragara ko aha ari ahantu abanyeshuri.

Ububiko bw'ibikoresho byifashishwa mu burezi kuko hariho intebe ndetse n'ishusho igaragaza iby'abanyeshuri bashobora kwiga, hasi hari sima, hari urugi, hari urumuri ndetse hari hariho ikibaho bigaraga ko mbere hahoze ari ishuri abanyeshuri bigiramo.

Isomero ririmo ibitabo bitandukanye byiganjemo iby'amasiyanse ubona ko ari ahantu hakuze kuko ibitabo bisa nabi, iruhande rwaho hari ikirere cy'umweru ndetse no hasi urabona ko hari ibindi bikoresho bishobora kuba byifashishwa mu gusoma.

Abanyeshuri hari aho basubiriramo amasomo baba barize mu magambo bashaka kuyashyira mu bikorwa, bigaragara ko umunyeshuri umwe ugaragara cyane ahoze hari ibyo arimo gutegura, aha ni ahantu heza cyane ndetse hariho urumuri rwiza hariho ameza agaragara neza cyane.

Icyapa kigaragaza Kaminuza y'u Rwanda y'Abanyagatolika, aho hariho ibyo umuntu agomba kwiga bitandukanye, harimo ibijyanye n'uburezi, ibijyanye n'ubucuruzi, ibijyanye n'ubwarimu, ibijyanye na siyanse ndetse n'ibijyanye n'ubuzima ndetse no kuboneka k'abaturage n'indimi ni ibintu byinshi cyane.

Icyumba kimwe muri kaminuza y'u Rwanda kuko hariho ibirango byayo, bigaragara ko hari umuntu uri kuri mudasobwa, ari kuri no kuri telefoni, bigaragare ko ari mu kazi ari kuvugana n'abantu batandukanye ku ngingo runaka zashobora gufasha ikigo gutera imbere.

Hari ibikoresho byifashishwa mu burezi, kuko hari mudasobwa, hariho ibitabo bitandukanye, ndetse bigaragara ko ari ahantu hamaze igihe kuko harashaje, hari urumuri rumeze neza, mbesi harasoje nta n'umuntu washobora kuhigira.

Isomero aho abanyeshuri bashobora gusanga ibintu byinshi bitandukanye bibafasha kwiga, hari intebe z'umukara nziza cyane bashobora kwifashisha bicayeho, ndetse n'ameza batunganijwe neza yabafasha mu kwiga kwabo bagatera imbere.

Ishuri ririmo ibyifashijwe, harimo mudasobwa, ikayi yo kwandikamo, ndetse n'ameza kugira ngo abanyeshuri babashe kwiga neza bafite ibikoresho bishyitse, babona urusinga, ndibaza ko harimo n'umuriro abanyeshuri bashobora kwiga babona.

Aho bigira hari intebe zo kwicaramo z'abanyeshuri, hari iki kibaho ndetse hari n'amatara kugira ngo ngo abanyeshuri bahigira nijoro babashe kubona neza, ariko bigaragara ko batarimo kwiga ahubwo bashobora kuba basohotse bari ahandi hantu.

Ahantu hari urusengero abanyeshuri bahuriramo bagasenga, bigaragara ko ari kiliziya gatolika, aho umupadiri ashobora kubwiriza, hariho akantu k'umweru gashobora kuba kerekana aho umuntu ashobora kunyura, intebe nziza cyane, ndetse n'imitako, harimo urumuri ruke, bigaragara ko umuntu ashobora kwiherera agasenga, ari ahantu heza cyane.

Abantu basa n'aho bari mu isuzuma aho bafite mudasobwa bakaba bafite n'amakaramu bafite n'amazi imbere y'uruganda rw'inyange bigaragazwa n'icyapa kiriho bari kunywa mugihe bagize inyota benshi bambara lunette abenshi ni igitsina gabo ndetse harimo n'igitsina gore bigaragara ko bari kubazwa.

Ikigo cy'amashuri kiriho ibyuma abanyeshuri banikaho imyenda iyo bameshe, ndetse hari n'umunyeshuri uri haruguru cyane bigaragara ko ari gukoresha interinete y'iki kigo, hariho pasiparumu aho umuntu ashobora kwicara akanezerwa, ndetse n'amashuri meza afite amabati y'ibara ry'umutuku, n'irangi ry'umuhondo ku kibambasi.

Ikigo cy'amashuri, aho bigaragara ko aha ari aho baba, kuko hari imyenda y'imbere banitse mu madirishya, bashaka kugira ngo yumve, baze kuyambara basubiye mu ishuri.

Icyumba abanyeshuri bararamo kuko haragaragara igitanda cy'icyuma kiriho amashuka atukura ndetse n'umusego, hariho aho babika ibikoresho bitandukanye, hariho n'amavuta ndetse n'aho babika imyenda, hariho rido, bigaragara ko ari ahantu heza ho kurara.

Ahari imiti itandukanye bigaragara ko hari ari aho abantu biga ibintu bitandukanyejyanye, bijyanye n'imiti bakorera isuzuma ry'ibyo bize, mu magambo bashobora kubishyirara mu bundi buryo bwo kwiga.

Icyumba abanyeshuri bararamo, kuko harimo aho babika imyenda ndetse n'igitanda, kimwe umukobwa acyicayeho ikindi nta muntu uriho, bigaragare ko ari aho barara iyo bavuye mu masomo yabo ya buri munsi.

Abanyeshuri ubona ko bakurikiye mwarimu, batuje cyane, abona ko buri wese, afite ikaye imbere ye. Ashaka kwandikamo, bimwe mu byo mwarimu, arimo, kuvuga. Ubona ko bakurikiye, bose nta kibazo.

Aho abanyeshuri berekana ibyo bigiye mu ishuri bigaragazwa n'ibikoresho bihari, batunganyijwe neza, hariho ameza ameze neza, hariho sima isa neza, bagaragare ko ari ahantu heza ho gusuzumira.

Ishuri aho hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwiga hariho nka mudasobwa, insakazamajwi n'amashusho n'ibindi byinshi, abanyeshuri bashobora kwifashisha mu kwiga kwabo kugira ngo bigende neza cyane.

Bigaragara ko hari isomero aho abanyeshuri bashobora kujya gusomera bakiyungura ubumenyi ku ngingo zitandukanye, kugira ngo barusheho gute...

Abanyeshuri b'igitsina gitandukanye cyangwa se abakozi bigaragara ko hari uwo bateze amatwi nubwo atagaragara kuko buri wese urabona yitonze ku giti ke afite amakaye n'amakaramu bigaragara ko hari icyo bashaka kwandika kuko ubahagaze imbere ari ku...

Ikigo cy'amashuri kirimo abanyeshuri bari gukina ndetse n'indabo zitandukanye ndetse na pasiporomu n'ibindi bihinga bisa n'imbuto nyinshi bashobora kwifashisha ndetse n'ibibuga bashobora gukiniraho imikino itandukanye kugira ngo abashe kugira ubuzima buzira umuze.

Aha harimo ishuri, aho hagaragara impuzamashusho kugirango abanyeshuri bajye babona ibintu bivuye kuri mudasobwa, bibashe kugaragara ku kibaho neza cyangwa se ahandi hantu hose bashobora ku murika bakoresheje iyi mpuzamashusho bigaragare ko ikoranabuhanga ririgutera imbere.